Iki cyapa cy'ibirango by'umukara ndetse n'umutuku, umugenzi cyangwa umuntu utwaye ikinyabiziga wese iyo ahageze akabona iki cyapa kiba gishatse kumwereka ko imbere gato yari iherezo ry'umuhanda.

Ahantu imodoka zose cyangwa ibinyabiziga byose, iyo bigeze aha hantu bikabona iki cyapa biba bigaragaza ko bigomba guhagarara hanyuma abanyamaguru bose bakabanza bagatambuka, bamara gutambuka ibinyabiziga bikabona gukomeza.